Aba ni abaturage bibumbiye hamwe， bakajya gushaka ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga， bakaba bari kubasobanurira uko bakwitwara.

Abaturage benshi bahuye n'abapolisi bari kubigisha ukuntu bakoresha umuhanda, bawambuka bajya mu rugo cyangwa bajya mu kazi.

Umutekano iyo wakajijwe ibintu bigenda neza cyane, iyo babonye ibyo bakoresha cyane, iyo babonye n'ibindi bikoresho byo gutuma umutekano ugenda neza.

Gaze yahiye， ishya iriho isafuriya， umukobwa ari kwigishwa kuzimisha kizimyamwoto， n'abandi bari kumureba. Babikorera ku kigo cyabo bigaho，na porisi niho yabasanze.

Aba baturage bakunda umutekano wuzuye cyane, iyo dufite iterambere tugomba kugira n'umutekano kandi tukawugira uhagije cyane ko umubyeyi wacu adufasha kugira uwo mutekano.

Imodoka nziza cyane ikontorowe n'abantu benshi cyane kuko ahantu iparitse hari abapolisi, abaturage, ndetse n'ibikoresho bakoresha bari gupima imodoka.

Iyo ni imbwa ubona ko yatojwe, kuko yambaye ibintu byinshi, yicaye yegeye ahantu hari intebe, hari n'amaboroke...

Umwotsi uhumanya ikirere uba mubi cyane cyane nk'iyo inzu ihiye, umwotsi ukazamuka, hagakurikiraho ikindi kibazo cy'umwotsi mwinshi, abaturage bakajya kuzimya inzu.

Dorone idufasha kumenya urusobe rw'ibinyabuzima dufite mu kirere. Hirya y'aho hari imodoka itwara abashinzwe umutekano.

Umutekano udufasha kugira imibereho myiza, abaturage twishimira umutekano leta yacu y'urwanda idufasha ,kugira ngo tubone ayo mahirwe yo kubaho neza.

Ubwitabire buba ari bwinshi cyane mu nama zateguwe, iyo harimo kwigwa ku bibazo byo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere n'abagituye batere imbere.

Abaturage bari kumwe n'umuyobozi , bari mu nama baganira ku bibazo by'abaturage n'ibibazo byo mu ngo , kugira ngo babikemure babane mu mahoro yabo.

Aba ni abarezi bigisha abana kugira ngo bamenye ubwenge. Bose bari bahuye bafata ifoto inyuma hayo bigaragara ko ari amashuri.

Inama iba ari nziza iyo yahuriwemo n'ubuyobozi bwacu ,dukunda cyane iyo turi gukemura ibibazo n'ibindi bibazo byose.

Abaturage bakunda ibikorwa by'umuganda kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gusa neza. Ndetse muri rusange n'imidugudu yacu itere imbere kugira ngo bazadusure babona ahantu hagaragara n'aho kunyura.

Iki ni ikigega cya kinyarwanda bahunikamo imyaka imbere y'ikigega hari ishitingi yanitsweho ibindi bintu.

Amata adufasha kugira ubuzima bwiza, iyo wayakamye inka nziza zidufasha kugira ngo abana bacu bakure neza, ndetse tubone no gusagurira isoko.

Ibi ni ibitoki bihiye bagiye gukoramo umutobe, kandi urabona ni abantu benshi bari babukereye, bashaka gukora umutobe w'ibitoki.

Aba ni ababyinnyi bari kubyina bishimye cyane, bari kumwe n'abakaraza babo bari kubakomera ingoma, kandi bari kubyinira ahantu hari indabyo, ndetse hari n'ibijojo.

Imbyino ziban nziza cyane iyo ziri kubyinirwa ku ruhame rw'abantu cyane bituma bishima. Ingagi nazo zidufasha kubona amafaranga ndetse tukabonana n'abashyitsi benshi baje kuzisura.

Kugosora ni umuco wa kinyarwanda ubaho kuva kera. Abantu bahinga bakunda kuba bafite intara bagosoreraho, kuko bagosora bakuramo imyanda yasigaye mu myaka.

Ahantu heza hari udukoko ,hari uduseke hari n'ibindi byinshi. Bacuruza ,bakabitaka mu nzu kandi bigatuma inzu yawe iberwa cane.

Aba ni abantu bari mu mico gakondo kuko bari gukoresha ibisabo byinshi ndetse n'abandi baricaye hasi bari kurebera.

Abantu benshi bari ku itorero bambaye imyenda gakondo, bari kumwe n'abandi bambaye amagofero na bote, kandi ibi ibyahozeho mu muco nyarwanda.

Abami bacu ba kera bahoraga bafite inkoni, bambaye imishanana nkuko icyo gihe kwambara byari bimeze, none ubu dusigaye twambara imyenda.

Aka ni agasobane. Agasobane bakunda kukabikamo ibintu byinshi cyane nk'ibigori, amasaka, ibirayi, ingano, ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Abakaraza bafite imirishyo bari kuvuza ingoma bambaye ibinigi mu ijosi, bambaye n'inzogera, kandi bari mu kibuga kinini basa nkaho babiteguye neza.

Abaturage ba kera bakundaga gucuranga imyirongi, bagacurangira ababasuye, abashyitsi ndetse bagacurangira n'imiryango yabo kugira ngo yishime.

Agaseke ni keza baragataka cyane nko mu mahoteri, baradutaka ukabona nitwiza dufite imitako iberewe cyane.

Urusyo rukoreshwa, mu gihe umuntu yabaga ashaka gusya, ibyo afite gusya amasaka, cyane cyane nk'ibigori n'amasaka kugira ngo aje kuyabetesha.

Intebe za kera zitwaga iz'ibisika ubu zikoreshwa ahantu mu cyaro, cyangwa ahantu ku muco gakondo kugira ngo zibibutse ibya kera.

Umugabo uri gucura, afite inyundo, akagira umuriro, iruhande rwe hakagira amabuye akoreraho umwuga wo gucura.

Itazi ryacu rifumbira umurima kandi rigatanga umusaruro uhagije, kuko rivamo n'itazi ryinika amasaka, iyo ugiye kuyinika.

Udukono twiza two gutekamo utu kera badutekagamo inyama, bagatsimbamo, bagatekamo ibiryo ukagemurira abakozi none n'ubu ntabwo tukiboneka.

Kera mu muco gakondo, umukobwa yaragosoraga cyane, akagosora akoresheje intara, akagosora amasaka ibishyimbo ndetse n'ibindi biboneka aho.

Ibisabo biduherekeshereza amata, kandi abakobwa bacu ni bo baza babitwaye bakaduhereza amata tukanwa tukishima tugasabana, ndetse tukanasagurira n'amasoko.

Ibibindi bigaragara harimo n'ibyamenetse, ibibindi bigaragara nko mu rugo kuko yari nk'umuco wa kera, twabishyiragamo amazi cyangwa umusururu.

Umuco wa kera wabaga ugizwe n'amazu y'ibyatsi, aha hari inzu y'ibyatsi hari abagabo benshi bamwe bari gukina urusoro, kuko na byo byarangaga umuco wa kera wa kinyarwanda.

Indobo iragaragaramo ibintu byinshi cyane by'imyanda, bigaragara ko ari nk'ifumbire, hirya y'aho hari ibirayi, dutoya byo gutwara nko mu murima.

Ababyinnyi bakunda kubyinira abashyitsi, kugira ngo abashyitsi basusuruke bishime, kandi bakababyinira indirimbo gakondo, bakabyina bishimye cyane.

Abantu bakunda ibintu byinshi cyane, iyo babonye imbyino gakondo bashimishwa n'uko babyinirwa n'iwabo kandi zikabaha umutekano ukwiriye.

Umwana afashe umwuko yambaye ikote ry'umukara, munsi yaho yambaye ishati irimo ibidomodomo, hasi yambaye ipantaro, inyuma ye hari inzu n'ikigega, n'ki n'ikigega kijyamo amazi.

Aba ni abahigi bagiye guhiga. Bari gushaka intwaro zo kujyana guhiga inyamaswa. Bigaragara ko batarazibona vuba.

Abazungu bari kunywa urwagwa bimwe bya kera by'umuco nyarwanda. Bari kumwe n'umukobwa w'umwirabura, bikekwa ko ari we uri kubigisha kunywa.

Amasuku adufasha kugira imibereho myiza mu baturage cyane iyo wayakoreye umuganda rusange ugakemura ibibazo wari ufite byose bikarangira.

Ingobyi idufasha gutuma tujyana abarwayi kwa muganga kugira ngo babahereze ubumenyi n'ubuzima bw'ibanze bakire batahe iwabo bameze neza.

Kera umuco gakondo habaga hariho ibisabo byo gushyiramo amata, yo kubuganyirizamo amata tukagira ibirago byo kwicaraho, tukagira n'umutsima w'amasaka.

Imtore zitubyinira neza cyane, iyo uri mu bukwe intore zikabyina urasusuruka kuberako izo ntore zikubyiniye neza.

Abantu benshi bahetse ingobyi, ibi byabaga mu muco wa kera, ubwo bahekaga ingobyi, bagaheka abantu mu ngobyi bafite aho babajyanye.

Amayugi ni meza bayakoresha bari kubyina, atuma umudiho bateguye ugenda neza, kandi amayugi ni bimwe mu muco nyarwanda byahozeho kuva na kera.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo za kera. Abakaraza bari kubavugiriza ingoma, bari kubyinira mu kibuga gifite indabyo.

Abaturage bakunda gukora utuntu tw'udukinisho, bakazajya bakunda kubikorera ahambere, kugira ngo biyibutse imico ya kera.

Kugosora ni umuco nyarwanda abaturage bakunda ,kandi baba babahaye uburyo babigosoramo .Kugosora bigira uburyo bwinshi, harimo n'ababa batabizi.

Uyu ni umukobwa urimo kubyina. Aha agaragara neza yambaye imyenda yababyinnyi, amanitse amaboko, asa nkaho ari kubyina umuco nyarwanda.

Abaturage bakunda kugosora iyo bashatse nko kujya kubetesha ibigori n'amasaka kugira ngo bazabone ifu yo kunywamo igikoma ,kandi bakumva barishimye.

Abaturage bakunda imico gakondo nk'iyo babaga bafite ibirago byo kwicaraho bakaba bafite inanga zo gucuranga bakaba bafite abashitsi bacurangira inanga.

Amashyiga batetseho ibiryo mu isafuriya yazanye imbyiro. Amashyiga atetsweho bwa mbere, kubera ko urabona aracyari mashyashya.

Amarangi adufasha kugira inzu neza, kandi akadufasha no kuba iba insirimu cyane, kugirango abaturage bayibone, kandi bayishimire.

Aka ni agaseke bakifashisha mu mitako, iyo ugateguye mu rugo, muri saro cyangwa n'ahandi nko mu mahoteri, naho bakunda kudukoresha.

Uyu n'umuryango uri gukina urubuguzo, uri kumwe n'abana babo bari gutsindana ibitego, kubera bamwe uri kubona barimo guseka cyane.

Iri ni iyogi. Iyogi ridufasha kubyina rigasakuza rigatuma abantu bumva ari byiza cyane. Riri mu muco gakondo w'abanyarwanda.

Inyamaswa ziradufasha, kugira ba mukerarugendo baza kudusurira inyamaswa zacu, ingagi idufasha kubona amadovize menshi, akadufasha mu iterambere.

Aba ni ababyinnyi bari kubyinira mu kibuga cy’umupira，babyina babyinira abashyitsi，kandi bakabyina imbyino nyarwanda， zimwe z'umuco.

Abaturage bibumbiye hamwe bagahinga umurima kugira ngo bataremo igihingwa kizabateza imbere, kandi kikabahereza n'amafaranga ahagije muri ako karere.

Abantu bari kubyina babyinira abandi bantu, kuko bashimishije cyane. Izi ntore ni nziza kandi zifite umuco gakondo nyarwanda, namwe muri kubibona ko ari byiza.

Agaseke keza cyane gakoreshwa mu bintu byinshi cyane. Gakoreshwa mu kubika imyaka, mu gutwerera, mu gukoramo imitako ndetse no kuba wagatangamo ibintu byinshi.

Amasaka ari mu murima asa n'umutuku, arakuze cyane, avamo ibintu byinshi cyane; avamo ifu y'igikoma, akavamo ifu ivamo umutsima w'ikinyarwanda.

Igishushanyo kigaragaraho ibintu byinshi cyane, bigaragara ko kiba gifite ibisobanuro byinshi ku bo kiba kiri kuvugishwaho hagize nk'uba uri kubyiga.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye kandi ubona ko iyo nzu ari nini cyane, ikaba iriho n'icyapa kigaragaza ibyo bahakorera.

Urugi rw'icyuma rukingurwa hakoreshejwe amaboko, kandi rugakingurwa rucitsemo kabiri kugira ngo babone uko barutambukaho.

Ibitaro byiza cyane, kuko ibitaro bigaragazwa n'akantu k'umusaraba gahari, ni byo bigaragaza ahantu h'ibitaro kandi ibitaro byiza bijyanye n'igihe tugezemo.

Abaturage bakunda iterambere ryiza cyane nko kubona amazu menshi asa nk'ametage. Bidufasha gutuma tubona iterambere.

Abaturage bakunda gukora ibikoresho bituma bikurura abandi, bakubaka amazu ahenze cyane n'ama etaje, kugira ngo abandi na bo bazabarebereho.

Inyubako zigezweho ziba ari nziza cyane kugirango, ubone izo nyubako bisaba kugenda ukazirebera aho zubatswe, kandi bikadufasha gukurura abantu kubona n'ibyoku kurya, kuko dufite ibikoresho byiza.

Umusigiti uri kugaragara neza, uri inyuma y'amazu ari imbere, ayo mazu bacururizaho amamatera y'ubwoko bwose imbere yaho hari na sitidiyo.

Iyi ni inzu nini igaragara nka etaje ifite nivo ebyiri, kandi igaragaraho abantu batatu bari kuganira muri icyo gipangu.

Uru ni urusengero, imbere y'uru rusengero hariho igiti kiriho insinga z'amashanyarazi kandi iruhande rwaho hari abagore babiri bavuye kuvoma amazi.

Amazu meza adufasha kugira isuku no muri byose tukaba aba mbere mu isi ndetse no muri Afurika, bidufashaga kubona imbaraga nyinshi.

Urusengero ruhuriramo abantu benshi cyane， ni runini rufite ibyumba byinshi，rufite imiryango myinshi imbere，hari abantu bagiye gusenga， ndetse runasa neza cyane.

Idarapo ry'igihugu cyacu ridufasha kugira icyo tumenya kuri bimwe mu bigize umusaruro igihugu gifite.

Abaturage bishyize hamwe bacukura umusingi, bashaka kubaka inzu. Inzu yo kurereramo abana; ubwo ni ku irerero ry'ishuri. Urabona bafite intego.

Uyu ni umuhanda ugaragara neza cyane uri ahantu hasa nk'aho hari nk' agasozi ,aho hantu hasa nk'aho hagoye kubera hasa n'umuhondo kandi hasa nk'aho hahanamye.

Inzu nini isa n'umweru ifite idarapa ry'u Rwanda, yanditsweho amagambo akorerwa y'ibikorwa bikorerwa aho aho bashi aho baburanira.

Iyi ni inzu bashyiramo ibikoresho byinshi, harimo inzu bakoreramo ubucuruzi, irasakaye neza; isakaje amabati asa n'ubururu, hafi y'aho hari umuhanda.

Ubwatsi bwiza butuma abaturage babuboneraho igihe babona akanya ko kwicara bakaganira. Bashyira akarago hanze. Parikingi y'imodoka na yo yabonekera kuri ibyo byatsi.

Ahantu harambu hagaragara neza, habonekeramo ubwinshi bw'isuku yaho n'uburebure n'ubutumburuke bwaho. Iyo ubonye ahantu hasa neza urishima cyane.

Urusengero rudufasha kwiyegereza Imana kugira ngo tutazagwa mu cyaha, tukagira aho duhurira n'umwanzi sekibi.

Inzu nini igaragara mu rusengero, ifite ibiti biyikikije ikagira amakaro y'umweru, hasi ikagira igipangu kiriho amatara y'umweru.

Iyi ni inzu nini cyane iteye amarangi y'umuhondo, ikingishijwe ibirahure gusa, ifite imbuga nini, ifite amapave akozwe mu mucanga.

Uru ni urusengero rwiza rugaragara ko ari runini, kandi rusengeramo abantu benshi cyane, kandi ruri n'ahantu heza hari amarangi y'umuhondo rusakajwe n'amabati y'umutuku.

Inzu igaragaramo ibintu byinshi byo gucuruza, hirya y'inzu hari abandi bantu bahicaye .Imbere y'inzu hariho abandi bantu bari gucuruza ibintu byinshi.

Aya ni amazu agaragara neza, kandi agaragara ko ari amashuri. Aba ni abenjenyeri, nabo bagaragaza inzu bamaze kubaka ko zarangiye kandi ari nziza cyane.

Abantu bakunda kugira ibikorwa remezo byinshi cyane nk'amazu, amamodoka, moto n'ibindi byinshi bibafasha kugera aho bashaka kujya gukorera.

Umujyi ufite isuku，utuma n’abantu bawukunda cyane， kuko uba uhesheje ishema abo bantu， kandi bakabyishimira kuko bibabanejeje.

Abayobozi iyo basuye umudugudu w'icyitegererezo bagasanga uri hafi kurangira ,bakagenda bafite umwanzuro wo kuwushyiramo ibirikubura, bishimisha n'abaturage.

Abaturage bakunda kubaka inzu, bashaka kugira ngo bazazibemo. Izo nzu iyo zisa babyita nko gukora umudugudu, hafi yaho hari n'ibihingwa byo kuzajya barya.

Inzu zigaragara mu bigo by'amashuri higanjemo intebe, amakayi n'ibindi byinshi.

Umwami Imana yaraduhaye umubyeyi imuduhana ububasha bwinshi, atubyarira umucunguzi aduha kujya tumwiyambaza tukanasenga, kugira ngo tutazagwa mu cyaha kandi tuzajye mu ijuru dufite umutima usukuye.

Aya ni amashuri agaragara ko akiri mashyashya， abayobozi baje kuyasura， bari kumwe n'abaturage bo muri ako gace ayo mashuri aherereyemo.

Uyu ni umuhanda urambuye ugaragara neza ufite isuku. Haruguru y' Umuhanda hari inzu nayo isa neza iteye amarangi, kuri ayo marangi bakaba bafite igipangu gisa n'ubururu.

Inzu ifite jaride, ikagera ahantu ho kwicara, ikagera, ikagira indabyo nyinshi, zimwe zisa n'umukara, zituma inzu igaragara neza cyane.

Inzu zigaragara ko bari kuzikorera amasuku ajyanye n'uko zisa, kuko ziracyari nshyashya cyane kuko ndabona n'umubyeyi mu muryango arimo gutambuka.

Ikoranabuhanga mu gukoresha mashini，ridufasha kugira ubumenyi bwiza mu gihugu cyacu， tugashimira uwateguye iki gikorwa cyo kuduhereza imashini tuzi zitwa kompiyuta.

Inzu zigaragara neza cyane， kandi zubatse ahantu heza， bigaragara ko ari iz'ikitegererezo， nk'umudugudu urimo abantu， hari imodoka nazo zisa nk'aho ari iz'abayobozi zaje kubasura.

Inzu nini ya Etaje ifite ibyumba byinshi ,ifite ibirahuri ku ruhande ,ifite na jaride, ikagira umuhanda no hirya y'aho hariho indi nzu nayo nini cyane.

Inzu zidufasha kubona ahantu twugama imvura cyangwa tukahugama izuba, bityo tugakomeza kugira n'aho tubika imitungo n'aho kuryama.

Gukemura ibibazo bidufasha gutuma abaturage dukundana, hatagira umwe ubangamira undi n' umwe uba muri iki gihugu.

Abayobozi bari kuyobora inama， bafite amazi， amakayi bandikamo imyanzuro， bafatiye mu nama， bakagira amaterefone yabugenewe.

Aba baturage bakunda kwitabira iyi nama, kugira ngo bumve ibitekerezo abayobozi babo babateguriye ,kandi nabo batanga ibibazo bifitiye ubwabo ku giti cyabo.

Abaturage bakunda kumva ibiganiro bijyanye n'umutekano, iwabo mu mago ndetse no mu mudugudu, bikabafasha gukemura ibibazo byose byugarije igihugu cyabo.

Inama igaragaramo abantu benshi cyane bafite ibibazo bari gukemura. Hari n'ubayobozi buri gukemura ibyo bibazo.

Aba ni abaturage bateze amatwi umuyobozi ngo abagire inama abaganirize ku byo bakora ngo biteze imbere.

Abaturage benshi bahuriye mu nama, bari kumwe n'abayobozi, bari kubaganiriza ku byubaka umudugudu n'ubumwe bw' abanyarwanda.

Imodoka zidufasha gutwara ibiribwa cyangwa ibicuruzwa byacu, zibijyana ku masoko yabugenewe cyangwa amasoko mpuzamahanga.

Iyo uri mu mujyi mu mujyi wa Rubavu ubona gare nziza bubakiwe kandi ijyanye n'igihe. Ibamo abantu benshi cyane kandi bari gushaka uko bagenda mu zindi ntara.

Abantu benshi bahuriye muri gare bari gukora ingendo zitandukanye. Abandi bari gucururiza muri gare, abandi batwara izi modoka ziri muri gare.

Abanyonzi badufasha kugera aho tugiye ku gihe kubera ko barabyiyemeje kandi batanga serivisi nziza kugira nabo biteze imbere.

Ababyeyi bishimye cyane babahaye amagare, amagare ngo abafashe kwiteza imbere, bayabahaye ari benshi cyane kuko buri wese bagendaga bamwoherereza igare.

Umukobwa uri kuyobora abakiriya mu ndege, kandi indege iba ari nziza cyane, kuko ikorera mu kirere, kandi umukobwa yambaye neza.

Umutekano w'ibikoresho byacu tuwukomeraho. Iyo twabonye ikidufasha, iyo wakoze k'ibintu byo gutwaza imodoka. Bituma ibintu byawe ubiha umutekano cyane ko biba biragera mu rugo amahoro.

Umusaza atwaye igare. Igare ripakiye imyaka .Igare ridufasha gutwara ibintu n'abantu. Umusaza arakomeza agenda mu muhanda w'ibitaka.

Imodoka z'amashanyarazi zikoreshwa zitwara abantu, zibavana aho bagiye ,zikabajyana aho bari kujya ,byose bifasha abantu koroshya ingendo.

Iyi modoka itwara ibikoresho, inyura ku mupaka ikagenda igakontororwa ikarebwa niba yujuje ibisabwa, ubundi igakomeza urugendo iyo yari iri kujya.

Abaturage baragenda mu gihugu hose .Ubu ndi kubona abaturage bari gukora ibisa n'ingendo muri gare yabugenewe ,harimo n'imodoka zidufashaga gutwara abagenzi.

Imodoka itwara ibikoresho byinshi itwaye imbuto zitwa wotameloni ,iraryoha kandi igira na vitaminini ku bantu bayikunda.

Bisi zitwara abagenzi ziba ari nziza, kuko zitwara abagenzi iyo bashaka kujya cyangwa bashaka kuva.

Abamotari batanga serivisi nziza cyane. Iyo bari mu kazi kabo ka buri munsi. Kandi babikora biteza imbere kandi bubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta.

Imodoka idufasha gutwara abana, ibajyana ku ishuri ikabasubiza mu rugo kugira ngo bataza kwangirikira mu nzira.

Abantu bakunda kugenda n'ingendo zoroshye, cyane cyane iyo bafite nk'ahantu bagiye mu kazi no mu bindi bikorwa bateguriwemo basanga ari byiza.

Amagare atwaye abamama, abamama bicaye nk'abagabo, n'abapapa barabatwaye ku magare, kandi bari mu muhanda munini ugaragara neza, bageze ahantu hari igipangu cy'amabuye.

Abaturage benshi bakunda kujya ahantu hari abantu benshi, kugira ngo nabo biyongere kuri abo bantu, cyane cyane nko muri gare habamo abantu benshi.

Moto zidufasha kugira urugendo rugufi cyane, iyo washatse nko gukora urugendo wakererewe bidufasha gutuma ugera aho ugiye.

Iyi modoka zidufasha kugira ibikoresho. Kwegereza abaturage ibikoresho bakenera hafi iwabo mu rugo. Ndetse no ku masoko aho bashaka kubibageraho.

Abakinnyi bakunda gukora ibintu bibashimisha cyane, nko gukina umukino w'amaboko witwa basikeketi, ni wo utuma amaboko ananuka kandi akagororoka.

Amarushanwa y'abanyamagare ari guhatanirwa n'abantu benshi, harimo, higanjemo abana bato kandi ubona bafite umuhate wo gutsinda.

Abakobwa bishimiye insinzi kuko batsinze cyane kandi bahesheje n'igihugu cyacu ishema, kuko bambaye amadarapo y'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Isiganwa ku mukino w'amagare ridufasha gukora ibintu byinshi tukishima, tugasenga, tugashimira abafana, tugashimisha abakunzi, tugashimisha n'igihugu cyacu.

Ahantu bakinira basiketiboro umupira w'amaboko bagakina bari guherekenya amaboko. Ni ahantu heza cyane hasa neza.

Aba ni abakinnyi bane bahanganiye kumupira w'amaguru baro iri guca kuruhande rw'ubururu amazamu ari inyuma yabo.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bambaye imyenda isa. Bamwe bambaye imyenda y'icyatsi, abandi bambaye imyenda y'umukara, abandi bafite kamera bose bari gukurikirana imikino.

Amarushanwa yateguwe n'ibigo byinshi, harimo n'ubuyobozi buyahagarariye. Bagiye gukora amarushanwa, bagiye guca umugozi maze batangire biruka.

Siporo idufasha kugorora imbavu no kugorora umubiri, iyo wabikoze byose biruzuzanya cyane, bigafasha abantu gutuma tubona imbaraga.

Aba n'abagabo babiri bari guhanahana imipira, yo gukina n'inyuma yaho hari inkweto zo gukinisha, n'imyenda yo gukinisha umupira.

Aba abantu benshi bitabiriye kureba umukino. Uko bose bicaye bategereje ko amakipe aza mu kibuga.

Umucucu wazamutse kubera imodoka iri mu marushanwa, itwawe n'abantu babyigiye. Abaturage bari gufana umupira, bagafana n'utwaye imodoka.

Basikete ni umukino udufasha kugorora imitsi, tukaba abasiportifu. Bidufasha gutuma tunanura n'ubwonko.

Abana bakunda amarushanwa iyo bayakoze bakiri bato, bibafasha gutuma bumva bishimye cyane kandi bagashimisha n'umuryango.

Amarushanwa adufasha gutuma tumenyekana mu gihugu hose, ibindi bintu bidufasha gutuma tubona abantu babikunze ku isi hose.

Abakaraza baravuza ingoma mu mujyi wa Kigali. Kandi barishimye cyane kubera bari ahantu hari icyitegererezo. Hari ikibuga cy'umupira w'amaguru.

Abakinnyi barimo gukina umupira cyane. Iyo batsinze babaha amanota agenewe n'ibyo batsinze kandi nabwo iyo bari gukina bibafasha kugorora umubiri wabo.

Uyu ni umukobwa uri gukina umukino wo kwiruka ari kumwe na bagenzi be, nabo bari gukina umukino wo kwiruka umwe wirabura undi ni umuzungu.

Agatenesi kadufasha gukina, tukagorora amaboko n'amaguru, byatuma tubaho neza, kugira ngo abantu bose babeho bafite ubusiporutifu.

Uyu ni umuhanda wijimye kubera ibicu byinshi byiganje, umuhanda ufite amapave ukagira igipangu kiwereye gifite amabuye.

Ubu ni umuhanda uragaragara ahantu hose, werekana ibice byinshi, bimwe bitambika ibindi bizamuka, uriho amazu meza, ukabaho n'isuku.

Umuhanda ugaragara neza. Uri mu mazu meza. Uwo muhanda ukikijwe n'indabyo zirimo ;imisipu, ibipangu bya kijyambere ndetse n'amashyanyarazi.

Umuhanda ugaragara nkaho wangiritse ahantu bisaba ko habonetse ubuvugizi bahasana, kuko harangiritse cyane.

Iri ni ikarabiro rigaragara ko riri mu isoko. Aho abantu baza gukarabira intoki kugira ngo birinde umwanda.